Igikoresho twifashisha mu ishuri. Kiba kirimo ibikoresho byinshi. Si byiza kujya mu ishuri udafite bino bikoresho. Banyeshuri mujye musaba ababyeyi ibikoresho mu gihe mugiye ku ishuri.